Abantu bicaye hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'umukara, hari n'umugore wambaye ikote ry'ubururu ubyibushye, abantu bicaye ku ntebe zisa umutuku.

Ahantu hicaye abantu, imbere hari umugore wicaye usutse wambara amarinete, yambaye ikote ry,umukara n'umweru, imbere ye hari mudasobwa iri kwaka.

Umugore uhagaze wambaye jipo y'umukara n'inkweto ndende z'umukara, ubyibushye, afite indangurura majwi ahagaze ku kantu bavugiraho gasa umukara, hirya hari intebe z'umuhondo.

Abantu bicaye mu cyumba, imbere hari umugabo uhahagaze, icyo cyumba kizengurukijwemo ibitambaro kimwe gisa ubururu, ikindi gisa umuhondo, hari umugore wicaye ku ntebe yambaye ikanzu ndende isa umutuku.

Abantu bari mu cyumba cy'inama bicaye, bose bambaye imipira isa umweru, bicaye ku ntebe zisa umutuku harimo n'umuhondo, ku maguru y'izo ntebe harimo umumama witeze igitambaro cy'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'umweru akaboko kifashe ku munwa, ari kurebana n'umukobwa wambaye agapira k'umukara n'umweru karimo n'umutuku, hejuru hariho ijire isa umuhondo, inyuma yaho hari ibishushanyo biriho amazu.

Umugabo wambaye amarinete, afite irangururamajwi mu kaboko kamwe imbere ye hateretse amazi, kurundi ruhande hari undi mugabo umwegereye wambaye umupira w'umuhondo nawe wambaye amarinete.

Ahantu hari abagabo benshi bicaye kumeza imwe, umwe yambaye ishati y'umweru ari kureba mumashini, undi udafite umusatsi wambaye amarinete ufite ubwanwa b'umweru ari kureba kuruhande.

Umugore wambaye ishati y'ubururu afite indangururamajwi, yambaye marinete, yambaye n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, hirya hari imeza iriho igitambaro gisa oranje.

Umugabo udafite umusatsi ku mutwe ufite ubwanwa buva ku matwi bukamanuka kukananwa, yambaye umupira w'umutuku urimo uturongo tw'umweru, imbere ye hateretse icupa ry'amazi afite n'ikayi imbere.

Ahantu hicaye abantu benshi, hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru, ufite igipfunsi ku munwa, yambaye rinite, imbere hari umugabo ufite mudasobwa icometseho umugozi kuri telefone ye.

Umugore wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'ubururu, afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga, yambaye amaherena, amarinete, aniteze n'agatambaro mu mutwe. Imbere ye hari abagabo n'abagore bahicaye, bafite amazi imbere yabo.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu afite ikaramu ari kwandika mu ikayi, imbere ye hateretse amazi na telefone, iruhande rwe hari n'undi mugabo wambaye ikote ry'ubururu.

Umugore wambaye ikanzu ndende y'ubururu bwijimye, agerekeranije akaguru ku kandi mu ntoki afitemo terefone, yambaye amarinete. Iruhande rwe hari umugore wambaye umupira w'ubururu.

Umugabo udafite umusatsi ku mutwe wambaye marinete yambaye ikote ry'umukara, yambaye n'ishati y'umweru n'umugozi, afite ikaramu, imbere ye hari icupa ry'amazi n'inyuma ye hari abandi bantu.

Abapolisi babiri bicaye begeranye bafite terefone mu ntoki, iruhande rwabo hari umugabo wicaye wambaye ishati y'umweru, afite terefone isa icyatsi yambaye ipantaro y'umukara, bose bicaye mu ntebe zisa umukara.

Abagore babiri bicaye begeranye, umwe yambaye amarinete, imisatsi ye isa nk'iyihinnyemo ukuntu, yambaye ikote ry'umweru n'umukara, mo imbere yambayemo agapira k'umweru, yegeranye n'undi mugore wambara amarinete witandiye, yambaye ibintu bisa oranje n'umweru.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye, imbere hicaye umugabo wambara amarinete, wambaye ishati y'ubururu, hari n'umugore wambaye ikanzu ifite amabara y'icyatsi, ubururu bwijimye n'umweru, hari n'undi mugore wambara amarinete, wambaye ubururu

Abagabo bicaye ku meza iriho igitambaro cy'umukara ateretseho amazi, umugabo umwe yambaye amarinete, yambaye ikote ry'iroza, ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, undi umwegereye yambaye ingofero.

Abagabo bicaye mu cyumba kirimo imitako ibiri isa orange, bicaye imbere yabo hari mudasobwa imeza bicayeho hejuru irasa umutuku mo hagati harimo indabyo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru wambaye amarinete, yegeranye n'undi mugabo wambaye umupira w'umuhondo, imbere yabo hari umugore wambaye ibintu by'umukara ufite indangururamajwi mu ntoki, imbere ye hari intebe zisa umuhondo.

Umugore muremure ufite irangurura majwi, yambaye isaha, yambaye ikanzu ndende isa oranje, hirya hari igishararagati kirimo amabara y'umweru, ubururu, umuhondo n'icyatsi, hicayemo abantu benshi.

Umugabo uhagaze imbere yambaye isaha n'agakomo mu kandi kaboko kariho umusaraba, imbere ye hari icupa ryamazi; inyuma ahantu ahagaze hari ikintu kirekire gisa ubururu harimo ibyarapo y'u Rwanda.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku, wambara amarinete, ufite ibisuko, yicaye hagati y'abagabo babiri, umwe wicaye ibumoso bwe, yambaye ishati y'ubururu n'ubururu bwijimye, undi yambaye umupira usa oranje.

Umugabo munini wirabura, yicaye ku ntebe y'umukara, iruhande rwe hicaye undi mugabo uri kureba kuruhande, wambaye ishati y'iroza irimo ubururu n'umweru.

Abagabo begeranye ari babiri umwe ari kureba ku ruhande yambaye ishati y'ubururu irimo uturongo yambaye n'amarinete, undi yambaye ishati irimo umukara n'umweru.

Abantu bicaye, bambaye imipira y'umweru, imbere hari umugore ufite irangururamajwi uri kuvuga, yambaye umupira w'ubururu n'akantu k'umukara.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru n'umukara, imisatsi ifunze, yambaye n'umugozi w'umweru, afite ikaramu mu ntoki, yambaye agakomo k'umukara n'umweru, imbere ye hateretse amazi.

Abantu bicaye mu cyumba, hari umuryango ufunguye, hejuru hari akapa gasa icyatsi, muri icyo cyumba harimo umugabo wambaye ishati y'umukara, afite terefone mu ntoki, imbere ye hari icupa ry'amazi n'indangururamajwi.

Abantu bicaye mu cyumba gisa umweru, harimo abagabo bambaye amakoti y'umukara n'amashati y'umweru, hari n'umugore wambaye umupira w'icyatsi n'akantu mu ijosi.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'umukara, imbere ye hari umugore wambaye ikoti ry'uyubururu n'umupira w'umweru mo imbere, ahahagaze bari kurebana, iruhande rwe hari n'umukobwa wambaye agapira k'umukara.

Umugore uhagaze wambaye ikanzu irimo ubururu n'inkweto zo hasi zifunze amano zisa umutuku, uwo mugore afite irangururamajwi ari kuvuga, hari n'imeza yiciweho n'abandi bantu, kuri iyo meza hariho igitambaro cy'umuhondo.

Umugore wambaye umukenyero usa umuhondo n'agapira gasa umuhondo, yiteze agatambaro mu mutwe gasa umutuku afite na terefone mu ntoki ari guseka.

Umugabo wambaye ikoti ry'ubururu akaboko yakarebesheje hasi, hari n'umugore wambaye ikoti ry'ubururu n'ikanzu y'umweru, n'inkweto ndende z'umweru, hari n'umugabo uri hirya wambaye ishati y'umukara amarinete arimo...

Abantu bahagaze abandi bicaye inyuma yabo hari ikintu gisa umweru harimo n'ubururu, abo abantu bahagaze bose bambaye udupfukamunwa n'abicaye baratwambaye, hari ibikombe ku meza hari n'intebe zisa umutuku.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu yicaye imbere ya mudasobwa iruhande rwe hari amazi, umugabo undi umwegereye yambaye umupira w'ubururu hirya hari n'umugore wambaye umupira w'umutuku.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'ubururu na karuvati y'ubururu .Amaboko ye arayafatanije imbere ye hari mudasobwa ,hari amazi amuteretse iruhande inyuma ye hari udushushanyo turimo amabara ya orange n'umukara.

Abasore babiri, umwe yambaye umupira w'ubururu, afite ikaramu ari kwandika mu ikayi, iruhande rwe hari icupa ry'amazi n'agakombe bashyiramo icyayi, undi ari kureba imbere, na we afite ikaramu ari kwandika, iruhande rwe hari icupa ry'amazi.

Abagore benshi bicaye hasi hari n'abagabo bahagaze inyuma, inyuma yabo bicaye munsi y'inzu itaruzura neza, irimo amatafari idasize amarangi, abo bamama bambaye imyenda myinshi irimo amabara y'umutuku, oranje n'umipira y'imbeho y'umutuku n'umweru.

Abantu benshi bicaye hasi, bari kumva umuntu ubahagaze imbere wambaye ipantaro y'ubururu n'ijire y'umukara, afite agasatsi gakeya, abo bantu bamuteze bose amatwi bicaye mu byatsi hasi.

Umugore uri kuvugira mu irangururamajwi iteretse ku kantu karekare, gasa umweru, uwo mudamu yambaye ikoti ry'umukara, ririmo uturongo tw'umweru, yambayemo agapira k'umweru, uwo mudamu yambara amarinete.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu imbere ye hateretse icupa ry'amazi, imbere ari kurebana n'undi mugabo wambaye agapira k'ubururu, yambaye n'ijiri isa icyatsi. Ku meza hari ingofero isa umweru.

Ahantu hicaye abantu bari kumva umugore ubahagaze imbere ubyibushye mugufi wambara amarinete, wambaye ikoti ry'iroza n'umweru, akaba yambaye n'ikanzu ndende. Ameza aba bantu bicayeho hariho ibitambaro bisa umutuku.

Umugore wambaye agapira k'umuhondo, wambaye isaha afite indangururamajwi yambaye amarinete, imbere ye hari intebe zisa umuhondo, hirya hari abantu bicaye ku ntebe zisa umutuku kumeza yabo hariho amazi.

Amafoto abiri atandukanye, iya mbere abantu barahagaze, iya kabiri abantu baricaye, mu abantu bahagaze harimo umugore uteruye umwana, mu ya kabiri abantu bicaye, hari umugore imbere ye hari mudasobwa hateretse n'icupa ry'amazi.

Abantu bicaye mu gishararagati kirimo ibitambaro bisa umuhondo, icyatsi, n'ubururu, inyuma hasa umweru hicaye abagabo ku ntebe zisa umweru za pulasitiki.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru, umukandara n'ipantaro afite indangurura majwi, imbere ye hari umugabo ubyibushye wambaye ishati y'umweru irimo imirongo isa shokora wambaye amarinete.

Abantu benshi bicaye hanze y'inzu inzu ifite amatafari, hari umugabo wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umweru, harimo utuntu tw'umukara. Hirya hari abamama bateze ibitambaro mu mutwe n'umusaza wambaye ingofero.

Umugore wambaye umupira w'umuhondo, ijipo y'umukara yicaye ahiniye amaguru inyuma, yambaye inkweto z'umweru zisohora amaguru afite nindangururamajwi mu ntoki.

Umugabo n'umugore barahagaze, umugabo yambaye umupira w'umukara n'isaha n'ingofero, yambaye n'amarinete, umugore yambaye ipantaro y'ubururu n'agapira, afite igitabo n'igipapuro mu ntoki.

Abantu bicaye wagirango bari mu nama, bakoze inyuguti ya u, ariko aho hantu bicaye hakikijwe n'agatambaro k'umweru, mo hagati harimo akarabyo kari mu ivase, ako karabyo karasa icyatsi, ivaze irasa umutuku.

Abagabo babiri n'umugore umwe baricaye ku ntebe z'umweru mo hagati yabo hagiye harimo utumeza dusa umweru duteretseho amazi. Inyuma hari ikintu gisa ubururu handikishijwemo amagambo y'umweru.

Abagore bicaye ahantu, bicaye ku ntebe zisa umweru n'ameza abari imbere arasa umweru. Imeza ya mbere yicayeho umugore ufunze imisatsi inyuma, yambaye ikanzu y'umutuku imbere ye hateretse amazi.

Abantu bambaye imipira y'umuhondo abandi bambaye iy'ubururu, umwe muri bo ni umugore wicaye ufite ibisuko bifunze inyuma, iruhande rwe hari umuhungu wambaye agakapu mo hagati mu gatuza yambaye n'gofero isa umweru.

Abagore babiri begeranye, umugore umwe yambaye umupira w'umukara mo imbere yambayemo agapira gasa umweru yambaye amarinete, arunamye asa nk'umuntu uri kwandika. Undi yambaye ikanzu isa oranje na we ari kwandika.

Ahantu hicaye abantu benshi basa nk'aho bakoze uruziga, umugabo uhagaze hagati yambaye ikoti ry'ubururu n'ishati y'ubururu, hari n'abandi bagabo bari kumwumva harimo uwambaye ishati y'umutuku wicaye inyuma bose bicaye ku ntebe nziza zisa umutuku.

Umukobwa wicaye kuri mudasobwa, yambaye ishati y'umweru, iruhande rwe hari n'undi muhungu wambaye ishati y'umweru uri kuri mudasobwa, inyuma yaho hari n'undi muhungu wambaye ishati y'umweru ari kuri mudasobwa yicaye ku ntebe y'umukara.

Umugabo uri guseka cyane amenyo ari hanze, yambaye umupira w'ubururu urimo imirongo, afite telefone yayirebesheje imbere.

Amagambo yanditswe ahantu hasa ubururu, hariho ijambo ryerekana ati: umunsi umwe ubura, uri mu ibara ry'umuhondo uvuga ati:" Imisoro itishyuwe mbere ya bibiri na makumyabiri na gatatu, umuntu azabona ibihano n'inyungu ziyongera ku musoro yari bwishyure."

Ahantu hasa ubururu, handitseho amagambo y'umweru, hepfo ho gato hari terefone iri kwaka harimo imibare akanyenyeri, magana inani urwego, munsi ya terefone hariho imodoka isa umweru, irimo akarongo k'umuhondo ahagana hasi.

Umunara ukase uzengurukijweho n'utwuma twinshi, umunara urasa umutuku, hasi hazengurukijwe ho hubatse hasizwe irangi risa umuhondo.

Umugabo uri guseka wambaye amarinete, yambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, ateruye mudasobwa mu ntoki, iyo mudasobwa irasa umukara, hejuru hari amagambo yanditse mu bururu.

Umukobwa wicaye ku ntebe, imbere ye hari mudasobwa, yambaye ipantaro isa ubururu, ishati y'umweru, yambaye n'agapfukamunwa gasa ubururu, hari n'undi mumama wambaye ingofero isa icyatsi n'umupira urimo umukara n'umweru.

Umugabo wunamye wambaye umupira w'ubururu urimo n'umweru, yambaye agapfukamunwa ari gukora muri mudasobwa, imbere ye hari umukobwa wambaye nawe agapfukamunwa k'umukara.

Abagabo batatu bahagaze bambaye imipira isa ubururu, hasi impande zabo hateretse ibikapu, inyuma yaho hari umunara muremure cyane, urimo amabara y'umutuku, hirya hari n'undi munara.

Ahantu hasa ubururu gusa, harimo akantu gasa umweru, mo imbere harimo akabazo kari mu muhondo, akabazo karasa ubururu, kagira kati ''Ese abantu baguze cyangwa babonye umutungo utimukanwa mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane, nabo bararebwa no kwishyura umusoro?''

Imodoka isa ubururu yegeranye n'indi modoka isa umweru, yegeranye n'indi isa umukara, ku ruhande rwayo hari ipikipiki isa umutuku n'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku irimo umweru, afite mudasobwa ari kuyikoreramo iri kwaka ahantu iri kwakira mw'imbere harasara ubururu iruhande rwe hateretse telefone n'ahandi kurundi ruhande hari indi mudasobwa.

Abanyeshuri babiri bambaye amashati asa ubururu birabura, bafite mudasobwa. Izo mudasobwa zirasa icyatsi n'umweru. Umwe yayihindukije, mo imbere asa nk'uwashushanyije inzu zifite amabara y'ubururu n'amadirishya asa umuhondo.

Amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu mu nguni y'ibumoso aragira ati irembo, hasi nko hagati handitse intambwe ya kabiri, munsi yaho ho gato haranditse kanda kuri kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga munsi hari mudasobwa na telefone.

Abagabo babiri umwe aricaye undi arahagaze, uhagaze yambaye umupira w'umweru n'ingofero y'ubururu, uwicaye yambaye ishati y'ubururu bwijimye n'ipantaro ari kureba uhagaze.

Umuntu wambaye agapfukaman k'umweru bari kumutera urushinge, ku ruhande hari akantu k'isaha kandiditsemo kabiri, ku ruhande handitse amagambo agira ati: "Hasigaye iminsi."

Ipoto iriho amatara yo ku muhanda hariho imigozi itatu iyo poto ifashe hasi iruhande harimo pasiparumu n'akarongo gasizwemo amabara y'umweru n'umukara.

Umunara muremure ufite imigozi iri kuwugendaho, hasi hari ibyatsi bisa icyatsi. Hirya y'iryo poto hari umusozi uriho utuweho n'abantu hejuru hari n'ibicu bisa umweru.

Abagabo babiri buriye ipoto rirerire risa ubururu rigiye rifite imigozi itandukanye, abo bagabo umwe yambaye ijire risa umuhondo undi yambaye irisa ubururu.

Utwuma dufite ibara ry'igihuhwe dukikije ahantu hari umunara ufite ibara ry'umweru n'umutuku, harimo akantu gafite ibara ry'umweru ubururu n'igihuhwe.

Ibiti by'icyatsi byegereye umukingo, hari ipoto rirerire rifasheho imigozi, hari amazu afite amabati y'umukara n'akantu k'umweru kayazengurutse.

Ipoto rirerire rifiteho imigozi y'umukara igiye itandukanye, munsi y'iyo poto gato hari amatara yo ku muhanda, hagati muri aya mapoto abiri hariho ibiti bisa icyatsi.

Ipoto rirerire risa ikigina, rifiteho utuntu tw'umukara n'umugozi wundi uzengurukijweho usa umukara, rigiye rifite imigozi myinshi cyane iyifatiyeho, inyuma yaho hari igiti k'icyatsi.

Ipoto rirerire hariho akantu k'umweru gafasheho n'undi mugozi uzingikiyeho hari n'indi migozi y'umukara itandukanye iri kugenda ihanyura, ku ruhande rw'iyo poto hari ibiti bibiri.

Umuhanda ugendwamo ibinyabiziga hirya haparitse amamodoka abiri yose asa umweru hari ipoto rirerire ririho amatara hirya y'iryo poto hari n'akandi gapoto kariho icyapa cya mpande eshatu harimo akantu gasa umukara.

Ipoto rirerire risa ikigina rifite imigozi myinshi igiye itandukanye riyifatiyeho munsi y'iryo poto hari igikuta gisize ibara rya orange rizengurukishijweho n'akandi karangi k'umukara.

Amapoto abiri asa nk'ayegeranye y'umweru afite imigozi itandukanye, inyuma yaho hirya hari inzu itari ndende cyane, ku rundi ruhande hari ibitoki.

Ipoto rirerire rifite imigozi igenda inyuranaho munsi yaryo hari abantu bahahagaze, hari umugabo wambaye ingofero y'umutuku, hirya hari n'umukobwa wambaye akantu k'umukara afite n'imisatsi irambuye.

Ipoto ndende iriho itara izengurukijweho imigozi myinshi, munsi hari akapa karimo amabara y'umweru n'umutuku, hirya hari irangi risize ry'ubururu ririmo n'umuhondo n'umweru.

Iminara miremire irimo imigozi myinshi, hari agataka munsi y'uwo munara gasa umuhondo. Hari n'umumama wambaye igitenge kirimo umutuku uhetse n'ishakoshi.

Ipoto rirerire ririho imigozi myinshi igiye itandukanye ryegereye inyubako ndende ifitemo uturangi tw'umweru tuyizengurutse, hanyuma risize umuhondo utaka cyane.

Umuhanda w'igitaka ugendwamo n'abantu umugabo umwe yambaye ishati y'ubururu n'inkweto z'umweru, hari ibiti bihakikije n'ipoto rirerire ririho imigozi igiye itandukanye isa umukara.

Umunara muremure uriho imigozi igiye itandukanye, hasi hari ibiti bisa icyatsi, hirya hari imisozi harimo n'ibiti bisa icyatsi, ikirere kirasa ubururu n'ibicu by'umweru.

Akayira abantu banyuramo, gasakajwe n'amabati, ayo mabati afashwe n'ibyuma, iruhande hari pasiparumu zisa icyatsi, iruhande hirya hari agashushanyo gasa ubururu kariho ijisho, karimo n'umweru.

Urupangu rufite utwuma harimo agasaraba mo hagati kari mu kiziga gasa umutuku, hari umusekiririte uri gufunga urupangu, hanze yaho hari imodoka isohotse isa shokora.

Ahantu harimo utuyira hatwikirijwe n'amabati, harimo utwapa dutatu kamwe gasize ibara ry'ubururu, handikishijwemo amagambo y'umweru, utundi twandikishijwemo amabara y'ubururu gusa turasa umweru.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro ya shokola ariku kugenda imbere ye hari imodoka y'umweru inyuma y'iyo modoka hari ikigega cy'umukara.

Umugore wambaye ikoti riciye amaboko risa icyatsi cyijimye, yambaye nikanzu, yambaye amaherena ari kugenda akuramo impapuro aho zitondetse ari nyinshi.

Umukobwa ufite ibisuko yambaye ishati y'ubururu yicaye arambuye amaboko ku ntebe, inyuma ye hicaye umugore ufite igikapu mu ntoki, yambaye umupira w'umukara, iruhande rwe haryamye undi mugore wambaye igitenge k'icyatsi.

Imodoka y'imbangukiragutabara ifiteho amabara y'umweru, umutuku n'ubururu, iruhande rwayo hari abagabo bari kuhagenda umwe yambaye ishati y'umukara n'ipantaro isa shokora.

Imodoka y'imbangukiragutabara iruhande rwayo hahagaze umugabo wambaye umupira urimo umweru, umukara n'umutuku. Iruhande hari intebe abantu bicayeho, inyuma y'izo ntebe hari kizimyamoto isa umutuku.

Umugabo wegamye kurukuta rurerure rusize ibara ry'ubururu, umugabo yambaye ishati yumukara, ipantaro yumukara, inkweto z'umukara n'umukandara wumukara. Inyuma ye yicaye umukobwa ufite ibisuko birebire bifunzemo hagati yambaye ishati y'umweru.

Inyubako ndende mu bugari ifite amagambo yanditseho hejuru asa icyatsi, imbere yaho hari idarapo rirerire, hasi hari akantu k'umweru harimo n'akapa gasa ubururu.

Akayira kagendwamo n'abantu, gatwikirijwe amabati, iruhande hari ibyatsi, hari n'amazu ahakikije, afite amabati y'umutuku.

Intebe zicaweho n'abantu, izo ntebe zifite utubaho dusize umutuku, hasi amaguru yayo arasa umukara, hari umugore uhagaze wambaye ibitenge bisa ubururu, ufite n'isakoshi y'umutuku mu ntoki.

Ahantu haparitse amamodoka menshi hari isa icyatsi, umutuku iruhande rw'izo modoka hari igiti kirekire cy'icyatsi hari numuntu uhagaze wambaye ibintu byumukaranyu inyuma hasi.

Abantu bicaye ku ntebe ndende hariho umugore n'umugabo bambaye imyenda isa oranje hirya ku muryango hari umuntu uhagaze wambaye ishati y'ubururu n'akantu mu mutwe kabonerana k'ubururu.

Umugore wambaye ikanzu y'ubururu afite n'agakapu mu ntoki gasa ubururu yiteze agatambaro mu mutwe gasa orange hari moto iruhande rwe hari n'umugabo wambaye ishati y'umweru umuhagaze iruhande.

Umugabo wambaye umupira wa oranje n'ipantaro, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'ubururu, uhetse igikapu mumugongo, yegeranye n'undi mugabo wambaye itaburiya y'umweru.

Umugabo wambaye ikoti, ishati na karuvati, yambaye amarinete, imbere ye hateretse icupa ry'amazi n'bitabo, iruhande rwe hicaye umugore wambaye amarineti.

Umugabo wambaye ikanzu y'umukara wambaye agapfukamunwa yegeranye nundi mugabo wambaye ishati yiroza ufite ibipapuro mu ntoki yambaye agapfukamunwa k'umweru inyuma yabo bagabo babiri hari nabandi bambaye imyenda isa iroza.

Abantu bicaye hasi mu byatsi, abandi bicaye ku ntebe hagati hari umugabo uhagaze wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umweru, afite igipapuro mu ntoki n'akandi kaboko kari kurebesha muri abo bantu bicaye hasi.

Umugore wambaye ibintu by'umutuku hose yegeranye n'umugore wambaye umukara n'akantu mu ijosi, hari n'undi mugabo wambaye ikote ryumukara, ishati y'ubururu na karuvati n'ipantaro n'inkweto.

Umugabo wambaye ishati y'umukara, wambaye amarinete, yambaye amapingu, ateruye n'icupa ry'amazi, inyuma ye hari umupolisi wambaye ingofero isa ubururu ateruye n'imbunda isa umukara.

Abagabo benshi bahagaze ahantu ku gikuta gisizemo ibara ry'umukara. Abo bagabo benshi bambaye imyenda isa oranje. Hari n'undi mugabo utambaye nkabo wambaye ingofero n'imyenda isa ikigina.

Amafoto atatu yose acishijwemo umurongo w'umutuku ukora inyuguti ya ekisi, hasi handitse amazina Felicien KABUGA na Augustin BIZIMANA, hejuru handitse ''barashakishwa kubera jenoside.''

Umugabo wambaye ishati y'iroza inyuma y'ishati yambayeho umusaraba yambaye amalinete n'agapfukamunwa k'ubururu iruhande rwe hari undi mugabo wambaye umukara n'umweru imbere ye hari igikapu.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku, mo imbere isamo umukara, ifite n'akantu k'umuhondo, mo imbere yambariyemo ishati y'umweru na karuvati y'umutuku.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umweru yegamye ku giti, hasi hari agasanduku hari n'imeza ebyiri, hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru, ufunguye umutaka.

Umugabo uhagaze yambaye ikanzu y'umutuku irimo n'umweru harimo n'umukara, yambaye ingofero y'umukara hejuru harimo umuhondo, afite ubwanwa hagati y'amazuru n'umunwa.

Umugore wambaye ikanzu y'umutuku, mo imbere harimo akantu k'umweru, afite impapuro imbere ye, hari nundi mugabo wunamye wambaye ikanzu ndende y'umukara, irimo akantu k'umweru, iruhande rwabo hari indangururamajwi.

Abagabo babiri bicaye bambaye amakanzu y'umutuku harimo utuntu tw'umweru, umugabo umwe afite indangururamajwi yambaye amarinete, iruhande rwe hari amazi hari na terefone ku meza hariho ingofero zabo ebyiri, ku rundi ruhande ruriho umugabo yifashe kumunwa nk'umuntu wumiwe.

Umugabo wirabura utari guseka yambayeho ikanzu y'umutuku irimo akantu k'umukara n'umuhondo iyo kanzu yambariye ku ishati y'umweru yambariyemo na karuvati.

Abagabo bambaye imyenda y'iroza, bambaye udupfukamunwa, batonze umurongo bari kwinjira mu nzu, hirya ku ruhande rwabo hari abandi bagabo bambaye imyenda y'ikigina, n'ingofero ku mutwe, na bo bambaye udupfukamunwa, inyuma yaho hari imodoka na zo zibazanye zisa ikigina.

Abantu bicaye mu kiziga, bamwe bari gutera intoki, abandi baricaye bari kubareba, hari n'abandi batatu bicaye ukwabo, umwe ni umugabo, umugore n'umugabo.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'iroza yambaye n'umugozi usa ubururu ari kureba ku ruhande hirya hari n'abandi bantu bahicaye hari umugabo umwe wicaye ureba hasi wambaye ingofero y'umutuku n'umweru.

Ingingo ya gatatu, ubwigenge bwa komisiyo n'igihe izamara komisiyo irigenga kandi ihoraho. Umutwe wa kabiri inshingano n'ububasha bya komisi. Ingingo ya kane inshingano za komisiyo.

Umugabo wicaye ku kagare, yambaye ishati y'umweru, na karuvati y'umukara, ku mutwe yambaye ingofero irimo uturongo tw'umukara n'umweru, inyuma ye harasa ubururu.

Umugabo uri guseka wambaye ishati, iciyemo hagati mu gatuza, yambaye akantu k'umukara, ahagana kuri iyo shati, hejuru y'umunwa hari ubwanwa bukeye.

Umutaka usa umutuku, munsi yawo yicayemo umuntu wambaye ijele y'umuhondo, yicaye ku kantu gasa umutuku iruhande hari abantu bambaye amakoti asa icyatsi ari babiri.

Kizimya moto ebyiri zisa umutuku zifite umunwa wumukara naho bafata h'icyatsi, ziteriretse hasi nyuma yaho harasa umweru hari n'ibikarito.

Imodoka itwara abagenzi ya polisi, isize amabara y'umukara n'umweru, iri mu muhanda wo hirya, hagati y'umuhanda n'undi harimo igiti kirekire cy'icyatsi, ku wundi muhanda hariho imodoka na yo isa umukara.

Abapolisi bari kugenda bambaye imbunda n'ingofero iruhande rwabo hari umunyonzi uri kunyonga igare wambaye umupira w'icyatsi n'ingofero y'umutuku hirya yabo hari umutaka w'umuhondo.

Imodoka isize amabara y'umukara n'umweru handitseho polisi, inyuma hicaye abapolisi babiri bicaye ku gatebe gasa umukara harimo umwanya hagati yabo.

Kizimya mwoto ebyiri hasi zumukara hanze zirasa umutuku zifite umugozi zumukara n'akandi ga z'umuhondo inyuma yaho hari ibikarito bibiri bisikigina harimo n'amaboko abiri asa nkarambuye afunguye yegeranye asa umukara.

Abagabo benshi bari ku mpande ebyiri zitandukanye, bafashe imigozi isa umutuku. Iyo migozi iri kuvamo amazi bari kuyimena ahagana ahantu hari ibiti birebire.

Amapikipiki menshi asa umutuku ahagaze imbere y'umurongo w'umuhondo wasibamye, imbere ku ruhande hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara yambaye n'ingofero.

Ahantu hicaye abantu benshi, umugabo umwe afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye ikoti ry'ubururu n'ishati y'ubururu, yambaye amarinete, iruhande rwe hari umugore na we wambaye ikanzu y'ubururu ndende.

Uruziga ruzengurukishijwe n'ibara ry'umukara, mo imbere harimo urundi ruziga ruzengurukishijwe n'ibara ry'umukara, mo imbere hari ikiganza gifashe ururabyo, hejuru rurasa iroza, amababi yayo abiri arasa icyatsi.

Umugabo uhetse igikapu cy'umukara yambaye umupira w'ubururu, imbere ye hari undi mugabo wambaye umupira w'umutuku watonze umurongo ari benshi imbere yigishararagati gisa umweru.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu irimo imirongo y'umukara, iruhande rwe hari umugore wambaye ibitenge na bage mu ntoki, iruhande hari umusaza wambaye ikoti ry'umuhondo.

Abagabo batatu, uwambere yambaye marinete, ikoti ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati; nundi yambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru na karuvati; undi yambaye ikoti ry'ubururu, ishati y'umweru na karuvati y'ubururu.

Umugabo uri kureba hirya yatunze urutoki akandi kaboko gafite indangururamajwi kambaye n'isaha, uwo mugabo yambaye umupira w'umukara, ku ikoro ryawo hariho amabara y'ubururu, umweru n'umutuku, yambaye amarineti y'umukara, ingofero y'umukara, inyuma ye hahagaze umugabo ufata.

Umugabo wambaye ingofero y'icyatsi n'amarinete, inyuma ye hahagaze umugore uteze igitambaro mu mutwe, wifubitse n'ikindi gitambaro uteruye isakoshi.

Umugabo uri ku cyapa wambaye ikoti n'ishati na karuvati, munsi ye ho gato hariho uturongo tugenda tuzamuka tujya hejuru, harimo agasa umutuku, ubururu n'icyatsi.

Umugabo wambaye kositime isa ubururu, n'ishati y'umweru, na karuvate y'ubururu, yambaye amarinete asa umukara, ari kureba kuruhande, imbere ye hari indangururamajwi.

Uruziga ruzengurukishijwe n'ibara ry'umukara mu imbere harimo urundi ruziga ruzengurukishijwe n'ibara ry'umukara, mu imbere hari akarabo hejuru karasa iroza amababi yayo arasa icyatsi uko ari abiri.

Umugabo wirabura utari guseka, yambaye ikoti ry'mukara, karuvati yumukara ,n'ishati y'umweru. Asa nkurebye hirya ,inyuma ye hari amadarapo. Hari irisa umutuku ,ubururu umuhondo uvanze n'icyatsi.

Umugabo wirabura ufite umusatsi utari mwinshi cyane, azamuye akaboko k'iburyo, yambaye ishati y'umweru, na karuvati y'ubururu, n'ikoti ry'ubururu.

Umugabo n'umugore bahagaze begeranye, umugabo afite icumu mu kaboko k'ibumoso n'ingabo mu kaboko k'indyo, umugore yambaye amarinete y'izuba yambaye n'ishati y'umweru, irimo ubururu n'umuhondo.

Umugore wambaye ikote ry'ubururu cyane, yambariyemo agapira k'umweru, imbere ye hateretse icupa ry'amazi, n'indangururamajwi, yicaye ku ntebe y'umukara, inyuma ye hari idarapo ry'ubururu, n'umuhondo.

Ahantu hari abantu benshi batandukanye mu bantu bahari hari umugabo wirabura uzamuye akaboko k'ibumoso ari guseka, yambaye ishati y'umweru irimo amabara y'ubururu n'icyatsi.

Umugabo uhagaze wambaye umupira usa orange imbere ye hicaye akana kambaye umupira w'umutuku hari nabandi bantu benshi bicaye ku ntebe zisa umweru inyuma yaho hari igiti kinini.

Umugabo wicaye wambaye ikote ry'ubururu n'ishati y'umweru, wambaye amarinete ahindukiye ku ruhande, yegeranye n'umugabo wambaye ishati y'umuhondo irimo umukara na we wambaye amarinete.

Umugore uri guseka wambaye ikanzu y'umutuku harimo akantu gasa umukara yambaye isaha, mu kandi kaboko harimo indangururamajwi yambaye n'amaherene, inyuma ye hari utuntu turi kwaka orange.

Umugabo wicaye mu ntebe y'umukara, yambaye ikoti ry'ubururu, karuvati y'umukara n'ishati y'umweru, imbere ye hari irangururamajwi, inyuma yaho yicaye hari n'undi mugabo ufite ikaramu uri kwandika.

Umugabo uri gutoresha ufite agaseke, wambaye ikositimu y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, ari gutoresha abantu bicaye hejuru ku meza, imbere yabo hariho imashini isa umukara.

Umugabo wicaye ku ntebe z'umukara yambaye ikoti ry'ubururu, ishati y'umweru, karuvati y'umukara, yambaye amarinete ari kurambura impapuro azirebamo, iruhande rwe hari umugore wambaye isa ishati oranje.

Umugabo wirabura ufite umusatsi yambaye ikoti ry'ubururu, ishati y'umweru na karuvati ari guseka amenyo ye yo hejuru arimo umwanya hagati.

Ikiganza cy'umuntu, intoki eshatu zirahinnye igikumwe n'agahera byo birarambuye, inzara ziraciye inyuma y'icyo kiganza hari amarido asa ubururu.

Umugore wambaye ikanzu uzamuye akaboko afite n'isakoshi mukandi kaboko; inyuma hari umugabo wambaye ikote n'ishati n'igipapuro mu ntoki, inyuma ya bo n'impande za bo hari abagabo bambaye amashati n'ingofero z'umutuku.

Umugabo uhagaze wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara irimo n'umweru, imbere ye hari indangururamajwi ebyiri, uwo mugabo yambaye amarinete.

Umumama wirabura ufite umusatsi mwinshi ku mutwe ari guseka, yambaye agashati katari akamaboko maremare k'umweru, akenyeye igitenge akikijwe n'ibiti inyuma ye.

Umugabo uhagaze wambaye ikoti ry'ubururu karuvati y'ubururu iruhande rwe hari umugore wambaye umukenyero urimo umweru n'ubururu n'agapira k'ubururu inyuma ye hari Idarapo rifite ibara ry'ubururu.

Umugabo uhagaze wambaye amarinete ari kuvugira ku ndangururamajwi zifashe ku kantu nyuma yaho intebe ziri n'abandi bantu bicaye, hari amadapo abiri rimwe rifite amabara y'ubururu'umuhondo n'icyatsi, irindi rifite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye agapfukamunwa afite agapfuko ku mutwe yambaye ikote risa ubururu n'ishati y'umweru, igikombe cy'umweru kimuteretse imbere harimo ikiyiko yiteretse n'agacupa k'amazi imbere ye.

Umugore uri kureba hirya ufite umusatsi mwinshi afite impapuro mu ntoki n'ikaramu mu ntoki, yambaye impeta ku meza hariho ibipapuro bindi byinshi n'ibitabo hejuru.

Umugabo wambaye ishati y'icyatsi, ufite agapapuro mu ntoki, usa nk'ugiye kugashyira aho batorera, kuri aho hantu hatorera handitseho Perezida wa Repubulika, inyuma ye hari ifoto iriho imisozi, hejuru y'uwo musozi hariho akantu gasa umweru, harimo ni'ibiti.

Umugore wicaye wambara amarinete, yambaye ikote ry'umweru na kenda mu imbere gasa icyatsi n'urunigi rusa umweru, yambaye isaha n'impeta, iruhande rwe hari abantu bambaye imikinyero hasi y'umweru hejuru y'icyatsi n'udupira.

Umugore wambaye umukenyero usa roza, imbere ye hicaye umugabo wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umweru, iruhande rw'uwo umugabo hari n'undi mugabo wambaye ikoti ry'ubururu, karuvati y'ubururu n'ishati y'umweru.

Inzu irimo abantu benshi, bamwe bambaye amakarita asa ubururu, hejuru hari amakamera, hasi hari umugabo uhicaye, wambaye ipantaro y'umutuku n'ishati y'umukara.

Abagabo birabura, bambaye imipira y'umweru. Umwe yambaye umupira uriho igipfunsi gisa umutuku n'ingofero hejuru zabo zirasa umweru; harimo amagambo y'umutuku n'ubururu. Umwe ateruye ifoto nini ndende yazamuye amaboko, harimo ifoto y'umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda yambaye amarinete. Hasi haba handitse tora Paul Kagame.

Imodoka itwara abagenzi ifite amabara y'umweru hasi hari utubara dusa orange dutonya hirya y'iyo modoka hari icyapa abantu baba bicayemo gisuzama amabara y'iroza n'umweru.

Imodoka ngufi isa icyatsi yikoreye utuntu hejuru, iri kugenda m'umuhanda, muri uwo muhanda harimo moto iri kugenda mu cyerekezo gihabanye niyo iyo modoka iri kugendamo. Hari ibiti bisa icyatsi.

Imodoka itwara abagenzi isa umweru, mu mpande zayo handitswemo amagambo, hirya hari ibiti birebire bisa icyatsi, hari n'akantu kahapfundikiye kabonerana.

Imodoka itwara abagenzi irasa ubururu, hasi iruhande rw'amapine hasize umweru n'ubururu munsi. Ku muryango ufungura iyo modoka hariho ifoto y'umuhungu wambara marineti.

Ipikipiki ifite ikintu kinini inyuma gisa ubururu inyuma yaho hari igikamyo giciye kitagaragara gisa icyatsi, biri kugendera mumuhanda usa n'ucukutse.

Igikamyo gisa umutuku, gifite amapine y'umukara, hasi yayo mapine hari akuma karimo hagati yayo mapine, karimo umutuku n'umweru, hari igare rifite akantu k'ubururu inyuma kayiri iruhande.

Igikamyo kirekire gisa umweru imbere n'ubururu inyuma kuri icyo gisa ubururu inyuma, kuricyo gisa ubururu handitsweho amagambo yerekana yuko ako gace k'inyuma kabika amazi hariho na numero ya telefone wahamagara.

Imodoka itwara abagenzi isa ubururu, ifite amapine y'umukara, iri kugendera mu muhanda, hirya hari akantu gakingirije ibiti gasa icyatsi n'ibiti birebire bisa icyatsi.

Imodoka ijyana abagenzi isizeho amarabara y'icyatsi n'umuhondo hasi, handikishijwemo amagambo asa, icyatsi n'amagambo asa umweru, amapine arasa umukara.

Mu muhanda harimo ipikipiki isa ubururu ifite akantu inyuma gafunguye, hirya y'iryo pikipiki hari imodoka isa umukara, iruhande inyuma y'iyo modoka y'umukara hari amaguru y'umuntu ari kugenda.

Moto iri kugenda mu muhanda ifite n'umugezi, hari ibiti bikikije uwo muhanda, hirya hari ipoto iriho amatara yo ku muhanda, inyuma hari n'inyubako ndende.

Imodoka itwara abagenzi isa umweru, ifiteho akantu hejuru gasa ubururu, ifite amapine y'umukara, ku ruhande rwayo hari moto iri kunyuraho umumotari, yambaye ijire y'umuhondo n'ubururu.

Imodoka itwara abagenzi, isa ubururu n'umweru, ifite amapine asa umukara, iparitse mu muhanda urimo ibiziba n'icyondo.

Umugabo wikoreye umufuka usa umweru ari kwambuka umuhanda, muri uwo muhanda harimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, harimo n'igikamyo cy'umweru, hari n'imodoka itwara abagenzi isa ubururu mo hagati ifitemo ibara ry'umweru n'ubururu hasi.

Imodoka itwara abagenzi, iri hirya isa umweru n'icyatsi, ku rundi ruhande hari ipikipiki ifite akantu inyuma isa ubururu.

Abanyonzi batwaye amagare bari kugenda, umwe yambaye ipantaro y'umukara irimo akantu k'umutuku n'inkweto zifunguye zerekana amano, yambaye agapira karimo umukara n'umweru ahetse n'igikapu cy'umukara.

Umugabo uri kumanuka wambaye inkweto zifunguye zisa umuhondo, mu muhanda hari imodoka y'umweru iri kuzamuka, y'igikamyo gisa umweru hejuru kibonerana, gifite utwuma dusa umutuku kiri kumanuka.

Imodoka ebyiri iy'imbere isa umweru iy'inyuma irasa umweru ifitemo n'akarongo k'umuhondo hagana hasi ku mapine umuhanda uri kugenderamo uracikaguritse usa umweru.

Imodoka zitwara abagenzi, imbere hari imodoka y'umweru, iruhande rw'imodoka hari utundi tumodoka dutoya dutwara abagenzi tw'umweru na two turimo amabara y'icyatsi, iruhande rw'iyo y'umweru ndende hari amazi.

Igikamyo cy'umweru cyikoreye akazigo hejuru kaziritse gasa ubururu, iruhande rwe hari ibiti iri kugenda mu muhanda w'imbere harimo abagabo babiri batwaye.

Igikamyo gisa umutuku, iruhande rw'icyo gikamyo hari abantu babiri bari kuhagenda, umwe ni umugore ufite imisatsi, yambaye ijire y'umuhondo inyuma n'ikanzu y'umutuku, umugabo yambaye ibintu by'ubururu.

Ahantu hari imodoka zitwara abagenzi hari imodoka imwe ntoya isa umweru, imbere ifite utuntu dusa icyatsi dukozwe muri mpande enye, hari abantu bari kugenda, hirya hari n'abandi bambaye amajire y'icyatsi.

Igikamyo gisa umutuku gifite amapine y'umukara, kiri kugendera mu muhanda, iruhande hari rigore, ku ruhande rundi hari ibiti birebire bisa icyatsi.

Ipikipiki isa ubururu ifiteho n'akandi kantu inyuma gasa ubururu, iri kugenda mu muhanda ku ruhande rwaho hariho umugabo wambaye umupira usa oranje n'ipantaro isa umutuku inkweto z'umweru.

Igikamyo cy'umweru kirekire gikoreye imizigo hejuru, iyo mizigo ipfundikijwe n'igitambaro cy'ubururu ikaba izirikishijwe n'imigozi, iruhande rw'icyo gikamyo hari ama moto abiri ahetse abagenzi.

Ahantu hicaye abantu hari ameza n'intebe, hari n'agati gasa icyatsi gateretse mu ivaze, hirya hari abantu babiri bari kuganira umwe arirabura undi ni umuzungu.

Ibyatsi hirya hari ipoto iriho amatara, hari n'ikibuga, hari icyuma kiriho akantu bakubitamo umupira ukajyamo.

Uruziga ruzengurutswemo umutuku mo imbere harasamo umweru, harimo utwerekezo tubiri kamwe kareba hejuru n'akandi kareba hasi, ibyerekezo byombi birasa umukara.

Uruziga rw'umutuku ruzengurutswemo n'ibara ry'umutuku ruciyemo kabiri, harimo uduce tubiri agace k'ubururu n'akandi gasa ubururu kazengurukishijemo uturongo tw'umweru, buri duhande tubiri dusa ubururu.

Icyapa cy'uruziga gusa umutuku hanze, mo imbere hasa n'umweru, rwanditsemo amagambo asa umukara, mirongo itandatu ibirometero ku isaha.

Akapa ka mpande eshatu gasa umutuku mo imbere hasa n'umweru, hirya hari umucanga, inyuma y'uwo mucanga hari abantu bambaye amajire y'icyatsi n'ibisarubeti by'ubururu, umwe ateruye jerekani.

Icyapa gifashe ku ipoto cya mpande enye, hari igisa umuhondo, harimo akarongo gasa umukara, mo imbere harimo ikiziga gisa umukara, kigiye gitandukanyemo, inyuma y'iryo poto hari ibiti.

Akarango ka mpandeshatu karimo ibara ry'umutuku n'imbere hasamo umweru harimo abantu babiri umukobwa butoya n'umuhungu muremure ho gato umusumba usa nk'umufashe akaboko bose barasa umukara.

Ipoto ririho utwapa tubiri, akapa ka mbere kanditseho K na N gatatu, hirya hariho indi nyuguti ya A na V akandi gapoto, kanditseho K na N mirongo itatu iruhande S na T.

Ibyapa bibiri, kimwe kiri kureba imbere cyanditseho KN3, ikindi kiri kureba ku ruhande cyanditseho KN30.

Akapa ka mpande eshatu, gasa umutuku mu imbere harasa n'umuhondo, gusa harimo utubara tw'umukara dutondetse k'umurongo, kerekana umuntu nawe ufite ibara ry'umukara uri kunyuramo.

Imodoka itwara abagenzi iri kugenda isa umweru ifitemo amabara y'icyatsi mu mpande zayo, hari icyapa cyanditseho KG magana atanu na rimwe, hari n'abamotari mu muhanda.

Icyapa cya mpande enye gisa umuhondo, mo imbere hazengurukijwemo akarongo gasa umukara, harimo akarongo gahagaze n'agatambitse bifatanye; agatambitse mu gahera harabyibushye hose hasa umukara.

Icyapa cya mpande eshatu gisa umutuku haze hazengurukishijwe ibara ry'umweru mw,imbere harimo ikindi cyapa cya mpande eshatu gisa umweru inyuma yaho hari ibiti.

Akapa gasa umweru kanditswemo n'amagambo asa umukara agira ati: " Igororero rya Nyamagabe." Hariho umuhanda kuri ako kapa kayifasheho, hariho akantu bazamura n'ako bamanura, gasa umuhondo n'umukara.

Icyapa cya mpande enye gisa umuhondo, mo imbere harimo akandi kapa ka mpande enye gasa ubururu, mo imbere na none harimo icyapa cya mpande eshatu kirimo umwana usa umukara, uri kwambuka utuntu dusa umukara.

Ipoto ririho utwapa tubiri, kamwe kareba imbere kanditseho KN 3 av, akandi kareba ku ruhande kanditseho KN 30 st.

Akapa ka mpande eshatu karimo ibara ry'umutuku mo imbere hasa umweru, harimo akamenyetso gasa umukara, kareba hejuru, gafite n'akandi kantu kareba ku ruhande, byose bisa umukara.

Icyapa cya mpande enye gisa umuhondo, mo imbere hazengurukijwemo akarongo gasa umukara, mo imbere yaho na none harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, avuga "gake".

Icyapa cya mpande enye gisa umuhondo, mu imbere hazengurukishijwemo ibara ry'umukara harimo n'igishushanyo cyi'modoka gifite imigozi ibiri iri mu mirongo ya sigizage.

Icyapa cya mpande eshatu gisa umutuku w'imbere harasamo n'umweru muri abo hatse umweru harimo umugabo uteruye igitiyo uri kura ibyoyora birasa umukara na we arasa umukara.

Akapa ka mpande enye gasa umweru, mo imbere harimo icyapa kizenguruka gisa umutuku, giciyemo kabiri n'undi murongo w'umutuku, mo imbere harimo igare, risa umukara, hasi mu magambo yandikishijwe umutuku havuga haati "birabujijwe gutwara igare."

Icyapa cy'uruziga kinyujijemo umurongo umwe w'umutuku, harimo matabaro isa umukara, inyuma y'iyo matabaro harasa umweru.

Umuhanda ukikijwe n'amazu agiye atandukanye, iruhande rw'umuhanda hari ipoto ry'umuriro n'irindi poto rijyana imigozi ku mazu agiye atandukanye.

Inzu ndende isizwemo amarangi y'umutuku, ubururu n'umweru. Hari ibiti, hari imigozi inyuranamo, hejuru hari n'akandi kantu kandikishijweho irangi ry'umutuku, hejuru hariho udukoni tureture cyane.

Inzu ifiteho akapa, iyo nzu ifite amabati asa orange n'umukara mo ukuntu, iyo nzu ifite akapa ka nimero ya cumi na karindwi, iruhande rwa ko kapa hariho igiti kirekire n'indabyo zisa icyatsi, iruhande rwiyo nzu hari n'indi nzu ifite amabati y'umutuku.

Inyubako ndende isize amabara y'umuhondo n'umweru, hejuru yandikishijweho amagambo y'umutuku, hasi hari imodoka zihaparitse, imwe mu modoka irasa umutuku.

Inzu irambuye ndende yubakishijwe amatafari, amadirishya yayo arimo utuntu tw'umweru n'imiryango irimo imirongo y'umweru. Hasi y'iyo nzu hari igitaka n'ibyatsi.

Igipangu gisa icyatsi, ibiti bisa icyatsi, amazu agiye atandukanye ari hirya no hino, harimo asa icyatsi, harimo afite amabati asa umutuku, harimo afite ibikuta bisa umweru.

Ibiti byinshi birebire bisa icyatsi iruhande rwabyo hari inzira y'abanyamaguru ifatanye n'umuhanda ugendamo ibinyabiziga, muri uwo muhanda hari kugaragaramo ibicucucucu by'ibyo biti.

Urupangu rugaragara mo imbere, rufite utwuma tunanutse tw'umukara, igipangu gisize ibara ry'umukara, mo imbere harimo amazu menshi agiye atondekanye, hari n'ibiti hanze y'urwo rupangu.

Umugabo uri gusunika igare aryinjiza mu rupangu, urwo rupangu hari akapa gafasheho kandiditseho rimwe gatandatu gatandatu, hari ibyatsi bihegereye, hari n'ahantu hasize amabara y'umukara n'umweru.

Moto iriho umumotari wambaye ijire y'umuhondo n'ingofero y'abamotari isa ubururu, inyuma ye hari inyubako ndende cyane isize amarange y'umweru ifite n'ibirahure bisa umukara.

Amazu menshi yegeranye yubakitswe akoreshejwe amabati, agiye yegeranye hagati harimo amapoto hariho n'ibiti, amabati arasa umutuku ay'andi arasa umweru, hari n'irisa ubururu hirya hari ibiti, inyuma y'ibyo biti hari andi mazu.

Umuhanda werekeza ku nzu ndende itari ndende cyane, ifite amabati y'umutuku isize amabara arimo ubururu n'umweru ifite amadirishya y'ibirahuri.

Inyubako ndende ifitemo amabara y'umweru, ibirahure byayo bisa umukara, hari umugabo uri kuhanyura iruhande wambaye ishati iciye amaboko y'umweru, iruhande rw'iyo nzu ndende hari ibiti by'icyatsi.

Amazu yegeranye afitemo ibara ry'umutuku imwe muri yo ifitemo akapa kanditseho magana abiri na rimwe hejuru yayo hariho igiti gisa icyatsi.

Inyubako ndende mo hagati handitsemo aradibi harimo ibiti bigiye bitandukanye hagati yabyo hari n'amazu agiye afite amabati y'umutuku n'ayo afite amabati y'umweru.

Umuryango ufunguye hanze hari intebe n'imeza zibaje mu biti zipanze hanze, hari ibiti bigiye bizamuye by'icyatsi mo imbere hari n'ahantu bacururiza.

Inyubako ndende ifite amabara y'ubururu n'amadirishya agiye asa ubururu, munsi hari imodoka isa umweru, iruhande rw'iyo nzu hakikijwe n'udutambaro dusa icyatsi tubonerana.

Umugabo afite terefone ari kumanuka mu muhanda, hepfo hari akaryango gasa ubururu, iruhande rwe rw'ibumoso hari undi muryango ufunguye usa icyatsi, hari ibitoki, hari inzu ndende cyane iruhande rwe.

Imihanda ibiri itandukanijwe na pasiparumu hari kwambuka umugabo, muri uwo muhanda harimo imirongo y'umweru minini hari n'imodoka ihagaze imbere y'umurongo muremure w'umweru.

Umuhanda urimo utuntu dusa umweru bambukiraho ibinyabiziga byose byahagaze harimo moto. Hari umugabo uhagaze ku rundi ruhande rw'umuhanda utegereje.

Umuhanda urimo ipikipiki itagaragara neza, hari ibiti, hari umutaka w'umutuku hari n'igikamyo gisize ibara ry'umutuku n'ubururu n'imodoka iri kurenga.

Umuhanda urimo imirongo ibiri isa nkiyegeranye yose isizwe umweru hari imodoka iri kuza isa umweru inyuma yizo modoka hari ibiti birebire bisa icyatsi.

Umuhanda ugiye urimo umurongo usa umuhondo, harimo moto iri kuza, iruhande rw'umuhanda harimo ibiti bisa icyatsi.

Umuhanda urambuye urimo utubuye dutambitse n'uduhagaze, hari kugendamo umuntu wambaye ibintu by'umukara, iruhande rwe rw'iburyo akikijwe n'ibiti by'icyatsi, iruhande rw'ibumoso ho gato hari icyapa kigenga imihanda, cyerekana imihanda yinjira mu mujyi rwagati.

Moto iri kugenda mu muhanda, umumotari yambaye ijiri y'umuhondo n'ubururu, yambaye n'ingofero yiwe isa umuhondo. Hirya hari akapa gasa ubururu, harimo n'andi mabara, hasi y'umuhanda ari kugenderaho hariho akerekana icyerekezo ari kujyamo.

Imodoka y'umukara iri hirya inyuma yayo hari umugabo wambaye ishati y'umweru, inyuma y'iyo modoka hirya hari ibiti hari n'inyubako ndende.

Umuhanda utarimo ibinyabiziga, ukikijwe n'ibyatsi n'ibiti bisa icyatsi, harimo amapoto y'amatara, hirya hari inyubako ndende isa umweru.

Umumotari uri mu muhanda, hirya y'uwo muhanda hari akapa gasa, karimo utuntu dusa umutuku, twerekana icyerekezo cy'aho umuntu ajya, iruhande rw'ako kapa hari ipoto rirerire.

Umuhanda utarimo ikinyabiziga urimo igiti, iruhande rwayo hari ibiti byinshi bisi icyatsi, aho ngaho kuri uwo muhanda harimo akarongo gasizwe irangi ry'umuhondo, n'iruhande rw'ibyo biti hariho imihanda isize amabara y'umukara n'umweru.

Umuhanda utarimo ikinyabiziga hari ipoto rirerire hirya hari inyubako ndende yanditseho RURA mumagambo asa ubururu hari n'akantu kayiri hejuru gasa ubururu.

Igikamyo cy'umutuku giparitse aho imodoka zihagarara mu cyapa, iri mu muhanda hari kugendamo ibindi binyabiziga bitandukanye, hari n'imodoka isa umukara, hari ibiti byinshi bikikije impande zombi z'umuhanda.

Umuhanda ugendwamo ibinyabiziga n'undi ugendwaho n'abantu, mu w'ibinyabiziga hasa nk'aho amazi yaguyemo hari icyondo, harimo moto ziri kuyigendamo, uwo muhanda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga hejuru ku mapoto hari udutara turi kwaka icyatsi n'akandi kari kwaka umutuku mu muhanda ku ipoto hari icyapa kiriho gisa umutuku wo hagati harimo imirongo y'umweru mu mihanda.

mu muhanda harimo imodoka; imwe irasa umweru, indi irasa mukara. Mu muhanda mo hagati harimo imirongo y'umweru ihagaze myinshi.

Amatara yaka umuhondo, hari ibiti bibiri byegereye ahantu hasa nkaho binjirira, hari abantu babiri umwe muri bo yambaye umupira n'ipantaro hari n'igare riri kwa.